Akazu gasizemo ibara ritukura hejuru hasizeho ibara rito ry'umukara hagati handitse amagambo yandikishije ibara ry'umweru avuga ngo imyitozo.

Igishushanyo cy'utuntu tugerekeranye turi mu mabara atandukanye harimo ibara ry'umutuku, umweru icyatsi cyijimye ndetse n'icyatsi kibisi.

Abanyeshuri b'abahungu ndetse n'ababakobwa bahagaze imbere y'abarimu babo harimo abambaye amakanzu y'ubururu n'amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara ndetse n'abandi bambaye imyenda ya kaki y'udushati n'udukabutura, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara. Imbere yabo hahagaze abarimu babo uw'umugabo ndetse n'umugore bambaye amatabuririya y'umweru ndetse bafashe ku idarapo ry'igihugu ry'amabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi.

Intore ziri guhamiriza zambaye amayugi ndetse n'umugara, zifite icumu n'ingabo mu kiganza n'abaririmbyi ku ruhande bambaye imikenyero bari kuririmba, higanjemo abana ndetse n'abantu bakuru.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ifite amapine y'umukara igice cy'imbere gisa umweru, inyuma icyatsi ndetse kizamuye nk'ikiri kumena ibintu runaka ndetse n'ikindi gikoresho cy'icyatsi giteretse ku ruhande.

Urukuta rusize irangi ry'umuhondo. Rushushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, hariho isiniya iteretseho inyama y'inkoko ndetse hasi rukoye n'irangi ry'umukara. Hakaba sima yaritaguritse ishaje.

Abana bari ahantu hamwe harimo abakobwa n'abahungu, harimo umuhungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikabutura y'ubururu ndetse n'umukobwa wambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo ijya gusa umutuku, hirya yabo hari guturuka abandi bana babiri, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu ndetse n'undi wambaye ijipo itukura ndetse n'ishati ijya gusa umweru.

Umuhanda w'igitaka, imbere yaho hari urukuta rusize irangi rw'umweru, rwubakishije umucanga ndetse hakurya hari abana bambaye impuzankano y'ishati y'umweru, ndetse n'ikabutura y'ubururu, imbere yabo hari umwana w'umukobwa wambaye ijipo y'ubururu, ndetse n'umupira w'ubururu, imbere yabo ari amashuri yubakishije umucanga, asize irangi ry'umweru ndetse n'igisenge cy'ubururu.

Ibishushanyo bishushanyije ku gikuta, harimo umwana uri kwirukanka wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'igisokozo, gishushanyije mu ibara ry'icyatsi, n'ibindi bishushanyo bishushanyije mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Amajiri abiri y'amabara atandukanye yifashishwa ku bantu bagenda mu bwato, harimo imwe igaruka muruhande rw'iburyo ifite amabara y'ubururu, umuhondo, ndetse n'udufunga imikandara dusa'umukara, kuruhande hari indi ifite amabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'udufunga umukandara tw'umukara.

Ibikinisho bikoze nk'umuntu bifite amabara atandukanye: icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati y'ubururu, imbere yaho hari ibyicungo by'abana bisize amarangi y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abana bicaye hasi ku mukeka ndetse n'abarezi babo bari kubarera, harimo abana bambaye imipira y'umuhondo ndetse nabandi bambaye imipira ijya gusa umutuku uteruye, abarezi babo bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'undi wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, hirya hari ibikinisho abana bakiniramo bigizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Ibikoresho by'umunyeshuri byifashishwa cyane mu isomo ry'imibare harimo amarati y'ubwoko atandukanye, harimo irate ndende, iy'uruziga ndetse n'irate ya mpande eshatu, harimo ibikoresho byifashishwa mu gushushanya, kompa ndetse na kereyo na gome isiba ibintu byanditse nabi.

Urukarabiro ruriho imyanya y'amarobine menshi yo gukarabiraho rwubakishije amakaro, inyuma hari ikigega cya parasitike cy'umukara ndetse hari n'amashuri afite inzugi z'ubururu n'amadirishya y'ubururu yubakishije amatafari ahiye ndetse imbere hari ibyatsi by'icyatsi.

Igikapu cy'umwana gihekwa mu mugongo giteretse ku meza, gifite ibara ritukura, inyuma hariho ibara ry'umweru rishushanyijemo agasa n'agasimba k'akajangwe, gafite udutama dutukura ndetse n'amaso y'umukara.

Agakoresho gakoze mu mbaho gateretse ku mashini ya mudasobwa ifite ibara ry'umweru, karimo ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye, harimo inyundo, urukero metero udukoresho dufungura amaburo, kamwe gafite ikirindi cy'ubururu akandi gafite ikibindi cy'umutuku, ndetse karimo.

Utuzu dutandatu dushushanyijemo ibintu bitandukanye: aka mbere karimo inanasi, aka kabiri gashushanyijemo umuneke, aka gatatu gashushanyijemo imodoka, aka kane gashushanyijemo amaronji abiri, aka gatanu gashushanyijemo ibitunguru bibiri ndetse n'aka gatandatu gashushanyijemo ibikombe bibiri.

Igipangu kiriho urugi rusize irangi ritukura ndetse rukikijwe n'ibikingi by'ibyuma bizamuye, hejuru hari icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yandikishije umukara ndetse ku ruhande hari akazu gato kubakishije amatafari ahiye.

Ameza y'uruziga akikijwe n'intebe zegamirwa z'imbaho, hirya y'aho hari andi meza ya mpande enye akikijwe n'intebe zegamirwa z'imbaho, imbere yaho hari akabati karimo ibitabo ndetse n'izindi mpapuro zitandukanye n'ibikoresho bitandukanye, hirya y'aho hari akabati gafunze gasize ibara ry'ibihogo ndetse kariho ibishushanyo bisize irangi ry'icyatsi.

Ibikoresho by'umunyeshuri byifashishwa mu isomo ry'imibare, harimo irarate ndende, irate ya mpande eshatu, intoya n'inini ndetse n'irate y'uruziga harimo na kereyo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu guconga kereyo, ndetse arimo ibikoresho nka gome yifashishwa mu gusiba ndetse na kompa zifashishwa mu guca uruziga ndetse no guca impapuro.

Akayira k'amapave imbere gato hanyuramo akandi gahanda kazamuka ndetse kakanamanuka, hakurya hari amazu yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje amabati y'umutuku, afite inzugi z'umukara n'amadirishya y'umukara, hanze hari ubusitani buteye ariko butaramera neza.

ibikoresho by'umunyeshuri byifashishwa mu isomo ry'imibare higanjemo amarate compakeleyo ndetse n'agakoresho kifashishwa mu guconga kereyo ndetse ku ruhande hari irate ndende iy'uruziga ndetse n'iza mpande eshatu ebyiri.

Abantu benshi bicaye ndetse abandi bahagaze, bakikije ikibuga kiri gukinirwamo umukino wa basikete ukinishwa amaboko, harimo abakinnyi bambaye imipira y'icyatsi abandi bambaye imipira y'imikara, hari umwe uhagaze mu mpera z'ikibuga wambaye isengeri y'umweru, ndetse n'ikabutura itukura.

Igishushanyo cy'ibiziga bibiri kimwe bise seti se ikindi bise seti de, bihuriye ku mibare cumi na rimwe, karindwi ndetse n'cyenda, n'aho seti se ikaba igizwe n'imibare rimwe, gatatu, gatanu. Mu gihe seti de igizwe n'imibare cumi na gatanu, cumi na karindwi ndetse na cumi na gatatu.

Amarembo y'ishuri, urugi rukoze mu maferabeto n'ibyuma handitseho amagambo titisi Matimba yanditse mu ibara ry'ubururu, inyuma hari inzu isize irangi ry'umweru n'icyatsi kibisi.

Ishuri ririmo intebe zegamirwa zimbaho ndetse n'ameza asize irangi ritukura, imbere hamanitse ibipapuro bishushanyijeho ingombajwi ndetse n'inyuguti abana bigiraho, hateretse ibibaho bitatu, harimo kimwe kirambitse gitambitse ndetse n'ibindi bibiri bihagaze by'umukara.

Imiryango y'ishuri, umuryango ubanza ufite urugi rw'ubururu ukinguye ndetse n'ukurikiyeho, imbere yawo hahagaze abana b'abanyeshuri ndetse n'umurezi wabo hirya hari undi muryango ufite urugi rw'icyatsi.

Umugabo wambaye agasengengeri k'ubururu n'agapira k'umweru mo imbere. Impande hateretse indangururamajwi iteretseho mudasobwa, ndetse ahahagaze abana babiri, umwe afite telefone ari gufata amashusho, ndetse inyuma ye hari abandi bana bato batatu bambaye imyenda y'ishuri ndetse n'amashuri inyuma...

Ibikoresho bitandukanye biteretse ku meza harimo amakaramu, imikasi itatu ifite amabara y'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku. Amakureri y'amabara atandukanye ndetse n'amakaye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse isakaje amabati, imbere yayo hari inkuta enye zubakishije amabuye ndetse zisizeho agarangi k'umukara, hirya hateye ibiti ndetse hari n'indi nyubako ifite ibara ry'umweru.

Agasanduku gato kabikwamo ibikoresho by'umunyeshuri by'isomo ry'imibare, haba higanjemo ibikoresho nk'irate ndende, irati y'uruziga ndetse n'irati ya mpande eshatu indende n'ingufi, harimo kompa yifashishwa guca umurongo ndetse n'ibindi, ku ruhande hari agakarito ipfunyikwamo.

Ibikoresho bishushanyijeho inyuguti zitandukanye, hakurya hari inyuguti ya pa, ra, fa, u ndetse imbere hari ingombajwi ya a ndetse hari n'imibare zeru, karindwi, icyenda, karindwi, gatanu, harimo ingombajwi ya ba ndetse na ca.

Ibikoresho umunyeshuri yifashisha ashushanya, aca uruziga, bigizwe n'amarate, kompa, keleyo, gome ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gushushanya ingombajwi.

Ikigo cy'amashuri imbere y'ishuri hicaye umugabo n'undi uhagaze ku ruhande wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara wambaye agapfukamunwa, ndetse imbere y'ishuri hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bari mu ishuri bafite amakaramu bari kwandika, inyuma yabo hari ikibaho bamwe bambaye amashati y'umweru abandi bambaye imipira y'imbeho y'icyatsi.

Ikigo cy'amashuri mu gahanda hari umuntu wambaye umupira w'umutuku ufite indobo y'ubururu mu ntoki, ndetse hafi y'ishuri gato hari indabyo zanitseho amataburiya y'abarimu y'umweru, wigiye imbere gato hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, rihagaze ndetse riri mu mabara atatu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ameza n'intebe biteye mu matsinda, hagiye hateretseho za mudasobwa, intebe z'icyatsi ndetse na mudasobwa z'umukara.

Abanyeshuri batonze umurongo mu muhanda bambaye impuzankano y'ubururu n'umukara, impande yabo hari umuyobozi wabo ndetse imbere yabo hari guturuka abandi banyeshuri bambaye impuzankano y'umuhondo ndetse n'imodoka na moto ziri kubaturuka imbere.

Abanyeshuri bari mu kiriziya, bambaye impuzankano y'amabara ya kake ndetse n'amashati y'umweru, imbere yabo hagaze abapadiri bambaye amakanzu y'umweru ndetse arimo ibara ry'umutuku ndetse hakurya yabo hari umuryango ufunguye.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, risize ibara ry'umuhondo ku rukuta, rifite inzugi n'madirishya risize irangi ry'ubururu, ndetse hepfo hari ikigega cy'umukara, imbere yaryo hari abana babiri b'abanyeshuri, ndetse hateye n'igiti, hakurya hari andi mashuri.

Abanyeshuri benshi bicaye hanze munsi y'ibiti bicaye ku ntebe zabanyeshuri ndetse harimo abambaye imipira y'ubururu n'amapantaro n'amajipo ya kake abandi bambaye amashati y'umweru.

Abanyeshuri benshi bicaye hasi mu byatsi bambaye impuzankano y'amabara y'umweru ndetse n'umukara, inyuma yabo hahagaze abandi bambaye amashati y'ubururu ndetse n'amapantaro y'umukara hagati muri bo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe y'urubaho, bambaye impuzankano igizwe n'amajipo ndetse n'amakabutura ya kake, amashati y'umweru ndetse bambaye udupfukamunwa, harimo abambaye imipira y'imbeho y'umukara ndetse n'abandi batayambaye.

Abanyeshuri batatu bicaye ku ngazi bambaye inkweto z'umukara, ndetse n'amasogisi y'umweru bambaye impuzankano igizwe n'ishati yumweru, karuvati y'icyatsi, ndetse n'amajipo ajya gusa nki'vu, inyuma ari inzugi zisize irangi ry'icyatsi ndetse n'amadirishya yi'cyatsi.

Abana benshi bahagaze hamwe harimo abari gukoma amashyi ndetse no kubyina, hagati muri bo hari umugore wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ingofero y'umweru y'urugara n'amadarubindi ndetse n'ipantaro y'umukara, muri abo bana harimo abambaye umupira y'icyatsi ndetse n'abambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hari umugabo wambaye ijiri yi'cyatsi ndetse inyuzemo n'imirongo y'umukara.

Abantu benshi bicaye imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya ajya gusa umukara ndetse imbere yabo hagaze umusore wambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abandi bambaye imipira ijya gusa umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati ifite urukuta rusize irangi ry'umweru, rwanditseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, ku ruhande hari idarapo ririmo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu bari munzu mo imbere ifite parafo y'umweru ndetse n'amatara ane ari kwaka hejuru, hakurya hari amadirishya y'ubururu, imbere yabo hari umugabo wambaye ijire y'umuhondo ndetse iciyemo imirongo ibonerana n'ingofero y'umweru uri kubereka, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati iciyemo uturongo ndetse n'ingofero y'umukara.

Abanyeshuri benshi bahagaze kumurongo, harimo abambaye impuzankano yamashati y'ubururu ndetse n'amajipo y'umukara, ndetse harimo abambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara n'amajipo y'umukara. Imbere yabo hahagaze umupolisi wambaye imyenda ya polisi irimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'umunyeshuri wambaye ipantaro ya kake, ishati y'umweru ndetse na karuvati.

Abanyeshuri bigaragara ko basoje amashuri makuru na kaminuza bambaye amakanzu y'ubururu mu ijosi harimo ibara ry'umutuku ndetse bamanitse ingofero zabo hejuru, inyuma yabo hari umubyeyi uteruye umwana mu nkosha y'umweru.

Umuhanda wamapave impande yawo hateye ubusitani ndetse hakoteye n'irangi ry'umweru n'umukara, imbere hari abantu babiri bari gutambika berekeza ku nzu y'umweru y'amagorofa abiri hejuru ifite igisenge cy'umutuku, imbere hateyeho igiti ndetse n'ipoto y'amashanyarazi ku ruhande rw'umuryango.

Abantu bicaye hamwe bahanze amaso mu cyeyerekezo kimwe ku ntebe y'imbere hicaye umukobwa ufite umusatsi ufungiye hejuru ndetse n'umuhungu wambaye umupira w'icyatsi n'undi wambaye umupira w'umukara n'undi wambaye ishati y'umweru.

Ikayi y'imibare iteretse ku meza, yiganjemo imibare myinshi, yandikishije ikaramu y'ubururu ndetse hepfo ku nyuguti ya b, hari udukubo, turimo imibare, rimwe, kabiri rimwe, kabiri gatanu kane na gatatu gatandatu kabiri.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'umupira ujya gusa nk'ivu' imbere ye hateretse imashini z'ubwoko butandukanye z'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa, imashini ifotora impapuro ndetse n'imashini ihanagura amafoto.

Ibikoresho by'ibumba harimo imbabura iteretseho inkono n'umufuniko wayo bikoze mu ibumba, ndetse impande yaho hari ibitereko baterekamo indabo, bikoze muri mpande enye ndetse ifite imyenge itanu ikoze mu ishusho ya mpande enye, inyuma yaho hari ibindi bitetereko by'indabyo bifite ishusho y'uruziga.

Sale nini irimo intebe z'ubururu ndetse n'ameza, n'abasore babiri mo imbere n'abandi basore bane hanze.

Ikibaho cy cy'umweru kiri imbere, cyanditseho amagambo menshi yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse ku ruhande hari ikindi cy'umweru nacyo cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'inama, imbere yabo hari intebe zegamirwa enye z'umukara ndetse hatatse imitako iri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere hicaye abantu benshi bicaye mu ntebe z'icyatsi zegamirwa.

Inzu ifite imiryango y'ibirahure, isize irangi ry'icyatsi, hirya hari abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umweru ndetse n'undi wambaye ishati ijya gusa icyatsi, imbere y'inzu gato hari indabo ziteye ahantu habiri ndetse n'imbere hari ameza ndetse n'akabati.

Abantu bari gutambuka mu gahanga k'amapave, ku ruhande hateye ubusitani ndetse higanjemo abazungu ndetse n'abirabura, imbere hahagaze umugore w'umuzungu wambaye ingofero y'urugara ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hahagaze undi mugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, hagati yabo hari umuzungu wambaye karuvati itukura, ishati y'umweru, ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Telefoni iteretse ku meza ndetse n'ibikureri birambitse ku ruhande by'ibara ry'umukara ,impande yaho hari ikaramu ifite igifuniko cy'icyatsi ndetse n'indi y'ubururu irambitse ku meza idafite igifuniko, ku ruhande harambitse ikarita ,ndetse n'ikiganza kiri mu ikayi irambuye.

Igishushanyo gishushanyije harimo; imbuto zigizwe n'inanasi, imineke, amaronji ndetse na pome.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bicaye munsi y'ihema bambaye amakanzu n'ingofero bigaragaza ko basoje amasomo runaka, impande yaho hicaye umukobwa wambaye ikanzu igizwe n'amabara umukara, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ku mwanya wa kane w'imbere hicaye umuhungu wambaye ingofero, ikanzu ndende ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara.

Inyubako ifite ku ruhande, amagorofa abiri ndetse no hagati ifite amagorofa atatu, hejuru ifite akandi kagorofa karengaho gato, ifite amabati atukura ndetse imbere ku muryango hazamuye urundi rukuta ruhatwikira n'umuhanda w'amapave werekezayo n'indabo na jalide ku ruhande.